Abantu batandukanye barimo abambaye impuzankano zisa, ni imipira y'icyatsi kibisi, imbere yabo hicaye abayobozi ndetse n'abasirikare, biragaragara ko ari abanyeshuri bashoje urugerero.

Abantu batandukanye harimo abahungu n'abakobwa biragaragara ko ari abanyeshuri bagiye kwifotoza, abakobwa bambaye udukanzu tw'iroza, abahungu bambaye udukabutura ndetse n'udukaruvati tw'iroza.

Ubukorikori ndetse no kugira impano ni byiza, cyane cyane mu gushushanya. Ahangaha ni umuntu washushanyije umuhanda, amazu ndetse n'ibiti bigiye bikikije umuhanda.